Muganga n'abarwayi babiri bari gutanga amaraso, muganga yambaye itaburiya y'umweru, yambaye na baji mu ijosi, bari ku ntebe z'umweru ibitanda bifite ibara ry'ubururu, umwe yambaye umupira w'ubururu n'ipantaro y'umukara, undi yambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'ikoboyi.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru n'agapfukamunwa ari muri laboratware bigaragara ko ari gupima ibizamini by'abarwayi, yambaye ga zisa ubururu imbere ye hateretse akadobo kajyamo imyanda, hari n'utundi dukoresho bifashisha bapima ibizamini hari mudasobwa nyinshi n'ibyuma bikoreshwa kuri mudasobwa.

Abantu batanu, bane baricaye, umwe arahagaze inyuma yabo ari kubavugisha, bambaye udupfukamunwa n'amataburiya bigaragara ko batatu ari abanyabuzima, undi umwe ni umuturage usanzwe, undi wunamye na we yambaye baji mu ijosi, hirya ahantu bicaye bicaye mu byatsi bisa icyatsi kibisi.